Umuti uvura indwara ukica ubukoko, ibisimba biri mu itaka, ibisimba biri ku mababi, imyaka igakura neza, ikaduha amafaranga. tukarya tugasagurira isoko, tukiteza imbere.

Imiti yica ubukoko ituma ibihingwa byacu bikura neza cyane tukayihunika neza, umusaruro wacu ukiyongera tukabona amafaranga kandi tukarya tugahaga tugasagurira isoko.

Umuti wica udukoko ni mwiza cyane utuma ibihingwa byacu bikura neza ibisimba bigapfa, tukagira umusaruro mwinshi cyane tukagurisha, tukarya, tugasagurira isoko.

Imiti yica ubukoko ituma umusaruro wacu wiyongera. Imiti yica ubukoko ituma ibisimba bipfa, tugasarura tukabona amafaranga tugasagurira isoko.

Umuti utuma umusaruro wiyongera, umuti wica udukoko, ukica ibisimba, ibihingwa bikazamuka neza. Natwe tugasarura umusaruro mwinshi cyane, tukagurisha tugatunga imiryango n'abaturanyi.

Imiti yica udukoko ituma umusaruro wiyongera, tukabonamo amafaranga tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu n'abavandimwe bacu.

Ubucuruzi bw'amafi ni bwiza cyane. Ifi idutungira ubuzima, amafi atuma tumenya ubwenge. Amafi aduha amafaranga tugacuruza, tukinjiriza igihugu natwe tikibeshaho.

Amafi aduha amafaranga, amafi aturinda bwaki, amafi atuma tumenya ubwenge, amafi adutera imbaraga mu buzima bwacu, maze tugahora duseka kandi twishimye.

Amafi atunga imibiri yacu, amafi aduhaza amafaranga tukayacuruza tukiteza imbere n'imiryango yacu, igihugu cyacu kikabona imisoro n'amahoro kigatera imbere.

Ubucuruzi bu'isambaza budufitiye akamaro kanini cyane, isambaza zituma abana bacu babaho neza, isambaza zubaka umubiri wacu, isambaza ziduha amafaranga, tugatunga imiryango yewe n'igihugu cyacu kigatera imbere.

UIbucuruzi bw' amafi buduteza imbere cyane, ifi iturinda indwara, ifi ituma tumenya ubwenge, ifi igira inyama iryoshye, maze tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'amafi buteza imbere cyane, buduha amafaranga, bukaduteza imbere, natwe tukiteza imbere n'igihugu cyacu kigatera imbere.

Kurya isambaza ni byiza cyane. Isambaza zubaka imibiri yacu, zituma abana bacu bakura neza, ziduha amafaranga tukiteza imbere tukabaho neza.

Ubucuruzi bw'imigati budufitiye akamaro kanini cyane. Buduhaha amafaranga, butunga imiryango yacu, tukagira ubuzima bwiza, kandi tukabaho neza.

Ubucuruzi bw'amafi ni bwiza cyane. Ifi iduha amafaranga, ifi iduha inyama tukarya ubuzima bwacu bukagenda neza, n'abana bacu bakiga amashuri badahungabanye.

Ubwatsi buduha ifumbire, bukaduha amafaranga; tugahinga ibirayi, tukeza, tukagurisha, tukariha amashuri y'abana, natwe tukibeshaho neza.

Ibimera bivamo imitako, ibimera bivamo imboga, bivamo imiti ituvura. Tukabona amafaranga, tukiteza imbere, n’imiryango yacu ikabaho neza.

Ikidodo kidufitiye akamaro kanini cyane, turakirya, gitunga imiryango yacu, turakigurisha tukabonamo amafaranga, tukibeshaho tukabeshaho n'igihugu cyacu.

Ubuhinzi bw'ibigori butuma tubona amafaranga, butuma tubona ifumbire, tugafumbira imirima yacu tukeza, tugatunga imiryango n'abana bakiga neza.

Ibimera bivamo imiti ituvura, ibimera bivamo imiti ivura amatungo yacu, ibimera biratuvura, bikatugaburira tukagira ubuzima bwiza.

Ibimera bituma duhumeka neza, ibimera biratuvura indwara z'umubiri n'izo ku ruhu. Ibimera biduha amafaranga, ibimera bituma duhumeka neza tukagira ubuzima bwiza.

Ibimera bidutungira ubuzima. Bituma tubona amafaranga tukiteza imbere. Ibimera bivamo imiti iturinda indwara, tukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ubuhinzi bw'ibihaza buradushimisha cyane, ibihaza bidutungira ubuzima, ibihaza biduhaga amafaranga, ibihaza turabirya tukanezerwa.

Avoka ni nziza cyane. idutungira ubuzima, iturinda indwara, ikuba umubiri wacu. Iduha amafaranga tukishyura minerivari, tukishyura amazu yo kubamo n'ibindi byinshi.

Ibimera bivamo ubwatsi, ibimera bivamo inkw. Ibimera bivamo umuti bikaduha amafaranga tukiteza imbere, tukagira ubuzima bwiza buzira umuze kandi tugahumeka neza.

Amateke ni meza cyane, ni igihingwa ngandurarugo baturindaga inzara, bigatunga imiryango yacu. Amateke akaduha amafaranga, tukibeshaho mu mibereho yacu

Ibisigazwa by'imyaka, bitanga ifumbire nziza, bituma ibihingwa uhinzemo byera neza kandi ntijumbura ubutaka, kuko ari ifumbire y'umwimere.

Ibitoki turabirya, bikaduha amafaranga ku isoko, imivovo inka zirayirya zikagira umukamo, ubwororozi bwacu bukagenda neza.

Ibisigazwa by'imyaka biduha ifumbire, ibisigazwa by'imyaka bituma ifumbire iduha amafaranga, ikaduha umusaruro, tukarya, tugasagurira isoko.

Igikakarubamba ni umuti uvura imibiri yacu, uvura indwara z'uruhu, tugasigaho tugakira tukagira agahu keza kanyereye, imibiri yacu ikishima.

Insina zidufitiye akamaro kanini cyane. Zitunga imiryango yacu ziduha amafaranga. Ni ibiribwa by'amatungo yacu, akabaho neza, kandi akagira umukamo.

Ibimera bidutungira ubuzima, ibimera bituma duhumeka umwuka mwiza, ibimera tubikoramo imiti irinda imibiri yacu, ibimera bituma ahantu hagaragarara neza.

Ubuhinzi bw'ibigori buduha amafaranga, tukibeshaho tukishyura amashuri. Ikigori ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Amapera ni meza cyane yongera ubuzima, amapera aduha amafaranga, amapera atunga imiryango yacu, amapera atuma twibeshaho neza mu buzima.

Ibinyomoro biduha amafaranga, ibinyomoro biturindira abana bwaki, bikatubeshaho, tukinjiriza igihugu, natwe tugakura neza tunezerewe.

Ibimera bituma ahantu hagaragara neza, bikaduteza imbere baduha amafaranga, bikavamo imiti irinda imibiri yacu, bikavamo imboga zidutungira ubuzima igihe cyose.

Karoti ziturinda amaso, karoti ziturinda umwijima, karoti zituma abana batarwara bwaki, karoti zituma tworoha mu nda, karoti ziduha amafaranga tukiteza imbere.

Koperative zirungura, iyo abantu bari guhingira hamwe barangiza umurima vuba, bagahinga imirima itatu ine, bityo n'igihe kikaba gitoya kandi bo bagahinga hanini.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni bwiza cyane, ibinyomoro bidutungira ubuzima ibinyomoro biturerera abana bacu, ibinyomaro biduha amafaranga tukabaho neza igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubuhinzi bw'imyembe, budufitiye akamaro kanini cyane. Buturinda indwara, kubaka imibiri yacu, bukaduha amafaranga, tukagurisha, tukibeshaho, tugatera imbere.

Ubucuruzi bw'ibishyimbo ni bwiza cyane, ibishyimbo biradutunga, ibishimbo biduhaha amafaranga, ibishimbo turabirya, bigatunga imiryango yacu, bikubaka imibiri yacu.

Imbuto ziturinda indwara, imbuto ziturinda bwaki, ducuruza imbuto tukabona amafaranga tukiteza imbere, tukabaho neza mu buzima.

Inkoko ziduha amafaranga mu kuduha ifumbire, inkoko ziduha amagi, ziduha amafaranga tukiteza imbere , tukabaho neza m'imiryango yacu.

Ibirayi biduha amafaranga, ibirayi biratugaburira, bigatunga imibiri yacu. Ibirayi ni byiza bidutungira imiryango, biduha amafaranga, tukibeshaho.

Amatunda adutungira ubuzima. Nk'imbuto zidutungira abana, ziduha amafaranga, tukibeshaho neza, tugatunga imiryango, tukariha amashuri y'abana, tukabaho twishimiye.

Guhinga imbuto y'indobanure bidufitiye akamaro, urahinga ukarya, ugasarura ugasagurira isoko, bityo bigatuma ubaho neza mu mibereho yawe.

Imbuto zidutungira ubuzima, zikaduha amafaranga, zikatubeshaho neza, tukishyura amashuri y'abana, tukagura imyenda, tukagura ibikoresho byo mu nzu, iwacu hagasa neza.

Ubuhinzi bw'imboga buduha amafaranga, imboga ziturinda indwara, imboga zidutungira abana, imboga ziduha amafaranga tugatunga tugatunganirwa.

Ubuhinzi buduha akazi. Ubuhinzi butanga amafaranga. Ubuhinzi butuma twibeshaho tukabeshaho n'imiryango yacu.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini cyane. Butuma twiteza imbere, butuma tubona amafaranga, tukibeshaho n'imiryango yacu, n’igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubucuruzi bwa watermeloun buduha amafaranga, buduteza imbere, butunga imiryango yacu. Watermeloun ni nziza yorosha mu nda, ikaturindira ubuzima.

Ubucuruzi bw'ubusitani ni bwiza cyane, buduha amafaranga, no kwifotoza batanga amafaranga, bikaduteza imbere, tukibeshaho n'igihugu kigatera imbere.

Ubuhinzi bw'inanasi ni bwiza cyane. Ubuhinzi bw'inanasi butuma tubaho neza, buduha amafaranga tukagura imirima, tukagurisha tugasagurira isoko.

Umwuga w'ubuhinzi urashimisha cyane. Utanga umusaruro utanga amafaranga, utanga ibiryo, ugatunga imiryango abana bakishima n'abagabo bakishima igihugu cyacu kikaba neza.

Imboga zitunga imibiri yacu, ziturinda indwara, ziduha amafaranga tukiteza imbere, tukagurisha, tugacuruza, tugatunga imiryango yacu, natwe tukabaho neza cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri ni bwiza cyane, butuma tubona amafaranga iyo tuwucuruje, iyo tuwugurishije maze tukiteza imbere, tukarihira abana amashuri, tukagura imyenda, tugasa neza mu muryango.

Ubuhinzi bw'icyayi buduha akazi ,tukabona amafaranga , tukiteza imbere , tukarihira abana amashuri , tukambara neza , kandi tugahora twishimye kubera ayo mafaranga.

Avoka iturindira ubuzima, avoka iturinda indwara, avoka iduha amafaranga, avoka itubeshaho neza n'imiryango yacu igatunga igatunganirwa.

Ubucuruzi bw’intoryi ni bwiza cyane, budufitiye akamaro kanini cyane, butuma tubona amafaranga, butuma twibeshaho, bugatunga imiryango yacu n’abana bacu bagakura neza cyane.

Ubworozi bw'ihene ni bwiza cyane, buduteza imbere. Ubworozi bw'ihene buduha amafaranga, bukaduha ifumbire, buduha amafaranga tukiteza imbere n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bw'imidudo budufitiye akamaro kanini cyane; ibidodoki bidutungiraga imiryango, ibidodoki bibeshaho abana bacu, ibidodoki biduhaga amafaranga tukiteza imbere, igicacu kigatera imbere.

Ubucuruzi bw'ibirayi buduteza imbere cyane, buduha amafaranga, ibirayi turabirya, bidutungira imibiri yacu, tukibeshaho, tugatunga, tugatunganirwa.

Amashaza ni meza cyane, adutungiraga ubuzima n'ibinyampeke turabirya, turabihekenya, bikaduha amafaranga tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'ibinyomoro ni ingirakamaro cyane, budutungira ubuzima, buturinda indwara, bukatwongerera amaraso, buduha amafaranga tukabona ibyo dukeneye.

Ubwowurozi bw'intoma budufiteye akomaro kanini cyane, buduha ifumbire, buduha inyama, buduhaha amafaranga tukiteza imbere tugatunga imiryango natwe tukabaho neza cyane.

Ibiti bivamo n'imyaka n'ibyiza cyane, bitera bivanze n'imyaka, imyaka yacu ikera neza cyane, ibiti bigakura neza tukagira umusaruro mwiza kandi n'ibiti tukabisarura.

Avoka iduha amafaranga menshi cyane, avoka iri mu bihingwa birinda indwara imibiri yacu. Iyo ucuruje avoka biteza imbere imibereho myiza.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane buduha amafaranga buduha umusaruro, tukarya tugacuruza tugasagurira isoko tukiteza imbere muri byose.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini cyane, turahinga tukeza tugasarura, tukagurisha tukiteza imbere, imiryango yacu ikabaho neza.

Ubucuruzi bw'inanasi buduha amafaranga. Inanasi ni nziza cyane, zitunga imibiri yacu, zikatuvura mu nda, tukamererwa neza, ubucuruzi bwacu na bwo bukaduteza imbere muri byose.

Icyayi cy'u Rwanda kiduha amafaranga tukiga amashuri meza, kandi tukambara neza. Tugahinga tukagenda twishimye tunezerewe.

Ibimera bituma imibiri yacu, ibimera bivamo imboga, ibimera bivamo umuti tukagurisha, tukiteza imbere, tukabeshaho imiryango yacu, n'igihugu cyacu kikabaho mu mutuzo.

Ubucuruzi bw'ibishyimbo budufitiye akamaro kanini cyane, butuma tubona amafaranga. Ibishyimbo bitunga imibiri yacu, ibishyimbo bituma twibeshaho, tukabeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bw'ibitoki ni bwiza cyane igitoki ni cyiza turakirya kikaduha amafaranga, atunga imiryango yacu tukiteza imbere muri byose tukagemurira n'abaturanyi.

Ubucuruzi bw'amateke ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu. Amateke aduha amafaranga, amateke atunga imiryango yacu, amateke atuma twiteza imbere.

Gucucira bituma ibihingwa bikura neza cyane, bigatanga umusaruro mu kuduha amafaranga, tugatunga imiryango yacu nk'abadukomokaho bose, igihugu cyacu kigatera imbere.

Igare riduha amafaranga ritwikorera imitwaro yikorera byinshi mu gihe gitoya natwe tukaruhuka, kuko twikoreraga ku mutwe umutwaro ,umunsi ukira.

Inka idufitiye akamaro kanini cyane. Iduha ifumbire, iduha amata, abana bagakura neza ntibarware bwaki, natwe tukaba neza tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibitunguru n'ingirakamaro biduha amafaranga menshi cyane. Bidutungira ubuzima abirya bitetse, ababirya Ari b'ibibisi , nyuma bikaduha amafaranga tukiteza imbere muri byose.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, buduha amafaranga buduha ibyo kurya, tugahinga tukeza tukagurisha tukarya tugasagurira isoko.

Ubworozi bw'inka ni bwiza cyane. Inka ziduha amafaranga, inka zikahaduha ifumbire, inka ziduha amata, umusaruro wacu ukiyongera.

Ubuhinzi bw'ibijumba butubeshaho neza cyane. Buduha amafaranga bugatanga akazi, bugatunga imiryango yacu tukishima, kandi tukanezerwa tugasagurira isoko.

Ubuhinzi bw'ibigori butunga imiryango yacu, bukaduteza imbere. Buduha amafaranga tugatunga imiryango yacu, tukibeshaho, tukabaho neza tunezerewe.

Amashu adutungira ubuzima, amashu aduha amafaranga, amashu atubeshaho neza, bituma tugira amafaranga tukarihira abanyeshuri, imiryango yacu ikanezerwa.

Ubuhinzi buradushimisha cyane. Buduha amafaranga tukiteza imbere tukagura imirima, tukaguramo amazu tugatunga imiryango yacu.

Imyumbati ni myiza cyane, iduhaha amafaranga itunga imibiri yacu, tukagira ubuzima bwiza, yubaka imibiri yacu, ikaduha amafaranga tukiteza imbere.

Ubuhinzi butanga amafaranga, budutungira imiryango, buduha akazi tukibeshaho n'imiryango yacu n'abana bacu, igihugu kigatera imbere.

Ubuhinzi bwa karoti butubeshaho neza, budutungira ubuzima, budutungira imiryango, bukaduha amafaranga, tugatunga tugatunganirwa, tukishyura n'amafaranga y'ishuri.

Icyayi ni cyiza cyane kidutungira ubuzima icyayi kiduha amafaranga, tucyohereza mu mahanga igihugu kikabona imisoro, kikaduha n'akazi tukibeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bwa avoka butanga amafaranga, tukaguramo ibintu, tugatunga imiryango, tukishyura amafaranga y'ishuri, na twe tukarya neza, tukagira imibereho myiza iturinda indwara.

Ubucuruzi bwa avoka ni bwiza cyane. Avoka idutera imbaraga, avoka idutungira umuryango, avoka iduba amafaranga. tukiteza imbere, haba mu gihugu no hanze yacyo.

Avoka itunga imibiri yacu, avoka itunga imiryango yacu, itungaga abana bacu, iduhaha amafaranga tukiteza imbere tukagura ibyo dukeneye, tukarihira abana amashuri, natwe tukagura imyenda.

Igiti ni ingirakamaro. Kitwubakira amazu, tugikuramo inkwi, tugakuramo imbaho, tukazikuramo ameza, intebe, utubati n'ibindi byinshi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni bwiza cyane, budutungira ubuzima butunga imibiri yacu biduha amafaranga, tukagurisha tukibeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bw'ubunyobwa bufite akamaro kanini cyane. Ubunyobwa turaburya, ubunyobwa budutera imbaraga, ubunyobwa buduhaha amafaranga tukishima tukabaho meza.

Ubuhinzi bw’ibihwagari buduteza imbere cyane. Igihwagari ni cyiza kivamo amavuta, tukayagurisha tukabona amafaranga, tukiteza imbere, tukabaho neza, tunezerewe.

Ubuhinzi bwa soya butuma tubaho neza cyane buduhaha amafaranga, buduha akazi tukiteza imbere tugatunga imiryango, tugatunga abana tukabarihira amashuri.

Uburo ni ingirakamaro mu buzima, tunwamo igikoma tukaryamo umutsima, uburo buduha amafaranga tukibeshaho tukiteza imbere.

Ikawa iduteza imbere cyane. Ituma tubona amafaranga, ituma twiteza imbere, abanyamahanga bakaduha amadovivize, tugateza imbere igihugu cyacu.

Ubuhinzi bw'amasaka ni bwiza cyane. Amasaka adutungira ubuzima, amasaka aduha amafaranga. Amasaka turayagurisha tukiteza imbere tukagura ibyo dukeneye.

Ifumbire ni ryiza cyane . Rituma ibihingwa byacu bikura neza, ikaduha umusaruro tukabona amafaranga, tukiteza imbere imiryango yacu ikabaho neza.

Amasaka adufitiye akamaro kanini cyane, amasaka turayagurisha amasaka tuyanywamo igikoma amasaka tukayacuruza bikaduha amafaranga tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'ubuyobwa buduha amafaranga, butuma ubuzima bwacu bugenda neza, tukiteza imbere tukibeshaho, igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, ubuhinzi buduteza imbere, buduhaha amafaranga, buturinda inzara, imiryango yacu ikaba itekanye kandi ifite ubuzima bwiza.

ntiterane ibiribwa duteranye imboga tutungira ubuzima iduhaga amafaranga tukabaho neza n'imiryango yacu n'abavandimwe bacu

Ubucuruzi bw'ifumbire butuma tubona amafaranga, butuma tubona akazi, tugahinga umusaruro ukiyongera, tugatunga imiryango yacu, tukiteza imbere, tukabaho neza mu buzima.

Ibishyimbo ni ibihingwa byubaka umubiri. Tubirya umushogoro, imboga zabyo zirinda indwara. Tubirya ari ibitonore bigatunga ubuzima bwacu. Tukubaka imibiri yacu.

Ibinyampeke bidutungira ubuzima, biduha amafaranga yukiteza imbere, tukibeshaho mubuzima. Ibigori tubinwamo igikoma, amasaka tukayanywamo igikoma, tugashisha twumva.

Ubucuruzi bw'ibitunguru bifite akamoro kanini cyane, bihuha amafaranga tukiteza imbere, kwakira imisoro n'amahoro bikaduteza imbere iryango.

Ubucuruzi bw'ifumbire ni bwiza cyane, butubeshaho, buduha amafaranga, butuma umusaruro wiyongera, tukawugurisha, tukarya tugasagurira n'isoko.

Ubuhinzi bw'ingano buduteza imbere cyane. buduha amafaranga. Ingano turazirya, tuzinywamo igikoma, tuziryamo umutsima, tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ubunyobwa butuma twiteza imbere tugatunga umuryango, butuma twibeshaho neza ubunyobwa butuma dutunga umuryango, abana bakajya mu ishuri bakarangiza bakadufasha nk'ababyeyi.

Ubuhinzi ni bwiza budutungira ubuzima, buduha akazi, budutungira imiryango ,tugahinga tugasarura, tugasagurira isoko ,natwe tukabaho neza kubera amafaranga.

Ibirayi bidufitiye akamaro kanini cyane . Iyo uhinze ibirayi ubona amafaranga , bigatuma witeza imbere , ukarya , ugasagurira isoko , bigatuma ubaho neza mubu buzima.

Guhinga indabyo bidukorera ubusitani. Ubusitani buduha amafaranga tukiteza imbere, tukibeshaho n'imiryango yacu, baza kwifotoza baduhe amafaranga n'igihugu kikagira amafaranga.

Ingano ni ikinyampe cyiza cyane tukinywamo igikoma, tukiryamo umutsima, tukabetesha kikadutungira abana, tukagurisha tukabona amafaranga tukabaho neza mu buzima.

Ibishyimbo biduha amafaranga bidutungira ubuzima, ibishyimbo turabirya ibishyimbo turabigurisha, ibishyimbo ni byiza cyane.

Ubuhinzi bw'icyayi buduteza imbere buduha amafaranga, icyayi tukigemura mu mahanga bakaduha amafaranga tukiteza imbere igihugu cyacu kigatera imbere.

Ibishyimbo fitiye akamaro kanini cyane: bidutungira ubuzima, biduhaka amafaranga, tukabigurisha tukubaka amazu, tukishyura amashuri, tukagura imyenda.

Korora ni byiza biduha amafaranga, abana bakajya mu ishuri, tugatanga mitiweli, kandi tukagura n'imyenda, tukabaho twiteje imbere dusa neza.

Ubworozi ni bwiza, buduha ifumbire, buduhaga amafaranga tugatunga imiryango yacu, natwe tukiteza imbere, n'igihugu cyacu kikaba neza kikabona amafaranga.

Kororera mu kiraro ni byiza cyane bituma tubona ifumbire ryinshi, biduha amafaranga menshi avuye mu ifumbire, tukiteza imbere tukabaho neza mu buzima.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, ingurube iduha ifumbire, ingurube iduha inyama, ingurube iduha amafaranga tukabaho neza mu bucuruzi, no mu bworozi bwazo.

Inka kugira ngo ikure neza bayikura amahembe. Ayo mahembe akurwa na muganga w'amatungo, kugira ngo iyo nka itaza kwangirika, kubera ko iyo utabifitiye ubushobozi uyikura nabi.

Ubucuruzi bw'inkoko buduteza imbere cyane, budufitiye akamaro kanini cyane, ducuruza inkoko iduhaha amafaranga, ducuruza amagi aduha amafaranga tukagurisha tukiteza imbere, tukabaho neza mu miryango yacu.

Ubucuzi bw'inka buduha amafaranga. Inka iduha ifumbire tugahinga tukeza cyane. Inka iduha amataka, zikaturinda bwaki, abana bacu bagakura banezerewe cyane.

Inka zidufitiye akamaro kanini cyane, ziduha amata, ziduha inyama, ziduha ifumbire, ziduha n'amafaranga. Bigatuma twiteza imbere, tukariha amashuri y'abana tukagura amazu yo guturamo n'imirima.

Kororera mu kiraro ni ingenzi, bituma tubona ifumbire, bituma inka zacu zororoka neza zitarwaragurika kubera uburenge no gutembera. Tukabona umukamo ushimishije.

Kurora inka ni byiza cyane. Biduha amafaranga, biduha ifumbire, biduha inyama. Bityo abana bacu bagakura neza, natwe tukiteza imbere muri byose, tukagira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane. Ingurube ziduteza imbere, ingurube ziduha ifumbire, ziduha inyama, ziduha amafaranga tukabaho neza mu buzima bwacu.

Ubucuruzi bw'inka buduteza imbere buduha amafaranga. Ubucuruzi bw'inka buduhaha inyama, ubucuruzi bw'inka buduha ifumbire tukiteza imbere mu buzima bwacu.

Ubuvuzi bw'inka buduteza imbere cyane. Buduha amafaranga tukiteza imbere, butuma tugira inka nziza cyane, zifite ubuzima buzira umuze bityo ubuzima bwacu bukaba bwiza cyane.

Ubu ubworozi bw'inka budufitiye akamaro kanini cyane, buduha ifumbire buduha inyama buduha amafaranga, tukagura imirima tukubaka amazu n'ibindi byinshi.

Inyamaswa zo mu gasozi ziratunezeza, kuzisura ni byiza cyane. Bituma tubona amafaranga, igihugu kikinjiza imisoro, kigakora imihanda, kikubaka amavuriro, kigatsura umubano hagati y'ibihugu n'ibindi.

Inyoni zigira amabara meza cyane. Kuzumva zirashimisha, ziririmba neza cyane. Kuzisura biduha amafaranga, bigatuma Igihugu cyacu gitera imbere.

Amagi ni ingirakamaro cyane, atunga imibiri yacu, aduha amafaranga tukaguramo ibyo dukeneye byose, tukiteza imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ziduha amafaranga. Zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura, bakinjiza amadovize mu gihugu, igihugu na cyo kigatera imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi, zizana ba mukerarugendo, tukabona amafaranga, igihugu kikagira inyubako nziza nk'ibitaro, amashuri, imihanda, tugatera imbere, natwe tukiteza imbere .

Ibiti bizana ba mukerarugendo, bikazana umwuka mwiza, bikadutera guhumeka neza. Ibiti bigakurura imvura.

Inkoko ziduha inyama ,ziduha amafaranga tukaguramo amazu, tukaguramo imirima, tukarihira abana mu mashuri, na twe tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'inkoko budufitiye akamaro kanini cyane, inkoko ziduha amagi, inko ziduha ifumbire inkoko ziduha inyama ziduha amafaranga tukiteza imbere.

Inyamanswa zituzanira amadovize, inyamanswa zikurura ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga igihugu kikiteza imbere, kikubaka amashuri, kikubaka amavuriro, kikiteza imbere.

Ingagi ni nziza cyane, ingagi zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize, igihugu cyacu kigatera imbere, kikubaka amashuri, imihanda n'amavuriro.

Inyamaswa mu gihugu zikurura ba mukerarugendo, maze bakaduha amadovize, igihugu cyacu kikubaka amashuri, kikubaka amavuriro, kubera ayo mafaranga y'abakerarugendo.

Inyamaswa ni nziza zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize, bakinjiriza igihugu. Igihugu cyacu kikubaka amashuri, amavuriro, n'imihanda.

Inyamaswa zo mu gasozi zarashimisha cyane, kuzisura biranezeza cyane, ziduha amafaranga, zigatsura umubano w'amahanga n'igihugu cy'u Rwanda.